Ahacururizwa ibinyobwa n'ibiribwa bitandukanye: bare, aho abantu bahurira, bakishima, bakabyina, bagasabana, bakungurana ibitekerezo. Akenshi bare ikunda kujyamo urubyiruko rushaka kwishimisha.

Abakobwa bagaragaza imyambaro ikorerwa mu Rwanda. Izwi nka mede ini Rwanda, akaba ari imyambaro yakozwe hashingiwe, ku guteza imbere ibikorerwa mu gihugu cyacu cy'u Rwanda.

Ahakorerwa ubucuruzi bwa bare cangwa akabari kagezweho, hakaba hari ubucuruzi buba bukorwa aho abantu baza kunywera, bakabyina bakishima.

Ahacuruzwa ibinyobwa bitandukanye, ubicuruza akaba arimo imbere ,bigaragarako yishimye kandi anezerewe, akaba aruburyobwiza bwo gucuruza useka ,wishimye ndetse akabaribumwe muburyobwokwakira abakugana.

Ifi yokeje iri ku sahani, hariho n'ibitoki. Ifi ikaba ari inyamaswa iboneka mu mazi, ikaba ikunda kuribwa mu mahoteli yokeje cangwa se itetse, amago y'abantu ikaba ifasha kurwanya imirire mibi.

Akabari : Ahafatirwa ibinyobwa, hagakorerwa inama zitandukanye cyangwa se abantu bakahaganirira, hakaba ari ubucuruzi bukorwa cyane cyane mu mijyi no mu masantere aho buteza imbere ba nyirabwo ndetse bukaba buteza imbere n'igihugu.

Ahacururizwa ibinyobwa, ahazwi nko mu kabari cangwa se moteri, hari abantu barimo baganira cangwa se aho abantu baja kuganirira nko mu bihe bya wikendi, banywa, barya, bishimye.

Ibyokurya bikunda gukorerwa ahari bare na resitora, akaba ari bizwi nka burushete n' ikirayi. Ibi bikaba ari ibiryo abantu bagiye mu tubari bakunda kokesha inyama n'ibirayi.

Pisine aho abantu bogera iyo bagiye kuruhukira cyane cyane picine ziboneka mu mahoteli atandukanye, akaba ari ahantu abantu bidagadurira boga, bakina, bakaruhuka mu mutwe.

Ahakorerwa ubucuruzi bw'inzoga, aho urubyiruko ruteraniye, turimo kunwa inzoga, ndetse hari n'ibirango by'uruganda rw'inzoga rwa Sikolo.

Ahakorerwa ubucuruzi bw'ibiryamirwa bizwi nka matera, haba hari icapa kigaragaza ko aha hantu bacuruza matera, bazijyana hirya no hino.

Icyapa kigaragaza isoko rya kamageni, kaba ari uburyo bukoreshwa n'abacuruzi bamenyekanisha ibyo bakora n'aho bakorera ku uburyo bigaragarira buri wese bakaba byanakurura abakiriya kuza kureba ibyo bacuruza.

Ahakorerwa ubucuruzi butandukanye. Hakaba ari isantere y'ubucuruzi irimo amabutiki n'amaduka atandukanye, hatangirwa serivisi zitandukanye zirimo n'iza mobayiro mane, aho abantu babitsa bakabikuza amafaranga biteguye kujya ku mabanki.

Inzu icumbikirwamo, icumbikira abagenzi zimwe bakunze bita amagesite hawuzi mu kinyarwanda. ikaba igaragara neza ku buryo uyikeneye wese ayibona bitamugoye.

Aho binjirira bagiye kuzana ibicuruzwa bitandukanye, bikorerwa imbere muri uru ruganda. Imodoka zirabifata zikabizana, zigasohokera buri muryango

Ahacuruzwa ibikoresho bitandukanye byo mu rugo birimo: intebe, ameza, intebe za pulasitike, biryamirwa, amakuvureri, imisego n'ibindi, bikaba bicuruzwa kugira ngo ababikeneye baze ba bigure, ubigurisha nawe abone amafaranga.

Isoko ahacuruzwa ibikoresho bitandukanye byo mu nzu ameza, amabase, indobo, udutebe dutoya, aho kubika ibikoresho n'ibindi...bikaba ari ibikoresho by'ingirakamaro mu rugo abantu bakenera buri munsi.

Ahacururizwa ibinyobwa mu buryo bwo kuranguza bakunda kwita nka depo y'inzoga, hakaba ari ahantu haba hari inzoga zitandukanye, aho abacuruzi bazo bajya kuzirangurira nabo bajya kuzicuruza.

Ahakorerwa ubucuruzi bw'ibicuruzwa bitandukanye, birimo cane cane ibyo amavuta bihisigagwa ku mubiri ibinyobwa bikaba bigaragara ku cyapa kibiranga ibikorerwamo imbere mu nzu.

Icyapa kiri ku muryango kigaragaza ahakorerwa ibiryo by'amatungo byujuje ubuziranenge bya kampani ya zamurafidi. Ibiryo by'amatungo akaba ari ingenzi cyane mu bworozi, kuko bituma umusaruro w'ubworozi wiyongera.

Urusenda rucuruzwa n'umucuruzi uciriritse, aho agenda atembereza urusenda ku muhanda abarukeneye akarubakoresha, ubu bukaba ari ubucuruzi bukunda gukorwa cyane cyane n'abacururiza mu muhanda bakunda kwita abazunguzayi, akaba ari ubucuruzi butemewe mu Rwanda.

Ibicuruzwa, ibicuruzwa bitandukanye ndetse bikaba bigaragara ko hari n'ahacururizwa ibinyobwa. Ubu bucuruzi bukaba ari ubucuruzi bukorwa hifashishijwe ibirango by'ibyo bakora kugira ngo bimenyekane.

Uruja n'uruza mu muhanda. Abagenzi bagenda n'amaguru, bagenda ku magare, bagenda na moto. Bigaragaza ubwiza bw'umuhanda ndetse n'amatara yo kumuhanda, byose bigaragaza ubwiza bw'umuhanda.

Ahakorerwa ubucuruzi bw'ikinyobwa ca sikoro bikaba bigaragazwa n'ibirango byacobihari, birimo ibyapa, amarange, byose byereka abantu ko aho hantu hakorerwa ubucuruzi bwa sikoro.

Inzu iri ku muhanda wa kaburimbo. Imbere yayo hariho ipoto iriho icapa kigaragaza ko bacuruza imyenda, imbere yayo hariho ibyo bakunda kwita ibimaneke bikunda kuba biri ku maduka acuruza imyenda.

N'ahakorerwa ubucuruzi butandukanye, bw'ibikoresho by'ikoranabuhanga telefoni, hakaba hatangirwa serivisi zitandukanye nka eyateri, banki popireri, beka n'izindi, zifasha umuturage kubona serivisi mu buryo bwihuse.

Isoko ricururizamo ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse n'ibikoresha amashanyarazi bikenerwa cane mu rugo nk' amapasi, amateleviziyo n'amatelefone; ibikoresho bikaba bikenerwa cyane kugira ngo abantu babashe kumvikana no kuvuganaho batari hamwe.

Botike cyangwa inzu zikorerwamo ubucuruzi butandukanye, ahatangirwa serivisi za sosiyete y'itumanaho ya eyateli mu kubitsa no mu kubikuza amafaranga kuri telefoni.

Iki ni icapa kigaragaza ishuri ryigisha icyongereza, ku bantu no kwandika muri yutubi, iki capa kiragaragaza ahantu bigishiriza izo ndimi.

Iduka cangwa inzu y'ubucuruzi ya kampani yitwa TURIKUMWE Limitedi, bacuruza ibikoresho bya muzika bitandukanye.

Ahacururizwa ibikoresho bitandukanye by'ibiryamirwa ndetse n'ibyo kwambara: nk'ibitenge, amashuka ,amakovureri n'ibindi bikoresho biryamirwa akaba ari ibikoresho bikenerwa n'abantu benshi mu Rwanda.

Icapa kigaragaza ibicuruzwa bicuruzwa n'iduka Ngoga fashoni shopu, kikaba kigaragara neza ku buryo byorohera buri wese kuba yabona ibyo akeneye muri iri duka.

Inzu mbere yayo hari agakiwosike gacururizwamo ibijyanye na serivisi za sosiyete ya Eyateli, aho abakozi bahaza gushaka serivisi za Eyateli zitandukanye, kubitsa no kubikuza amafaranga, ndetse n'amayinite yo guhamagaza.

Ahacururizwa bimwe mu byuma bakoresha basimbuza ibishaje mu binyabiziga, ibi bikaba bifasha abaturage bafite ibinyabiziga kubona ibyuma bashyira mu binyabiziga byabo iyo bimwe byashaje mu buryo bworoshye.

Ahakorerwa ubucuruzi butandukanye, ndetse hagatangirwa na serivisi zitandukanye, aho ushobora kuhabona imyenda, ukahabona abafasha b'amabanke, ukaba wababikuza cangwa se ukabitsa amafaranga utiriwe ujya kuri banke.

Ahacururizwa ibinyobwa bizwi nka boke. Hakaba hazwi ku izina ry'akabari. Akabari akaba ari ahantu abantu bakunda kujya kunywera bimwe mu binyobwa bisindisha n'ibidasindisha baganira.

Ahacuruzwa imyenda itandukanye cane cane imyenda abantu bakunda kurarana, ubucuruzi bukaba nabwo buteza imbere ababukora, ndetse n'abakeneye ibicuruzwa bakabibona uko bigaragara neza.

Isoko rya kijambere ahakorerwa ubucuruzi butandukanye. Aya masoko agaragara cane cane mu mijyi itandukanye yo mu gihugu, bukaba ari uburyo bwiza bufasha abacuruzi gucuruza neza mu mutekano ndetse n'imvura ntibanyagirire ibicuruzwa.

Ahakorerwa ubucuruzi bw'akabari hakaba hari icapa cigaragaza ibihakorerwa birimo: ibyo kurya, n'ibinyobwa, amafi, boroshete, n'ubundi buryo butandukanye, hakaba hari n'amacumbi azwi nka gesite hawuzi.

Inzu y'igorofa ikorerwamo ubucuruzi butandukanye bw'ibinyobwa, n'ibindi bicuruzwa. Amagorofa rero, akaba ari amazu agerekeranye, akunda gukorerwamo ubucuruzi, ndetse akaba yanaturwamo. Bityo bikorosha kugira ngo ubutaka bubungwabungwe.

Ni inzu y'ubucuruzi ikorerwamo, ubucuruzi bwa matera imbere hagakorerwa, ubucuruzi bw'ibintu by'imitako byambarwa ku maboko y'abantu, ndetse no mu ijosi. Bikaba ari ubucuruzi bugaragaza ko bushobora gukorerwa ubucuruzi imbere mu nzu no hanze.

Icapa cyerekana ahakorerwa ubucuruzi bw'amacumbi bakunda kwita gesitehawuze, inzu zakira abantu, akaba ari uburyo bwiza bwo kwamamaza ibyo ukora ukoresheje ibyapa kuko bigaragarira buri wese, uhanyuze akamenya icyo ukora mu bucuruzi bwawe.

Ahakorerwa hanakanacururizwa imbabura. Imbabura ni kimwe mu gikoresho abanyarwanda bakoresha bateka, kikaba ari igikoresho kiba gikozwe mu ibumba, ndetse no mu bisigazwa by'ibyuma nk'amabati n'ibindi.

Inzu ifite umunzani mu muryango harimowo imifuka irimo igihingwa c'ibirayi, bigaragara ko aha abahinzi baza bakagurisha umusaruro wabo w'ibirayi.

Inzu y'ubucuruzi igaragaza icapa cerekana serivisi batanga zirimo; irembo, beka, kudekarara, amakarita ya telefoni zizwi nka eyateri n'ibindi.

Ahakorerwa imirimo yo gufasha abantu mu bikorwa bitandukanye, birimo kwaka viza, gushaka amascorashipu, viza zo kwiga, kujya kwiga muri kaminuza n'ibindi bitandukanye.

Ahakorerwa ubucuruzi butandukanye, hagatangizwa na serivisi zitandukanye harimo ubucuruzi bw'inkweto, amasaro aho abantu bajya kogoshereza imisatsi, ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye, ndetse n'ahakorerwa ubucuruzi bw'imyenda y'abageni.

Ahakorerwa ubucuruzi butandukanye hazwi nka santere z'ubucuruzi. Hakaba ari ahantu haba hari amaduka acuruza ibintu bitandukanye. Abaturage bakahaza kuhashakira ibyo bakeneye, mu ngo zabo mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ahakorerwa ubucuruzi butandukanye nk'ubucuruzi bw'imyenda, ubucuruzi bwa alimentasiyo, irimo ibiribwa. Aho umuntu ashobora kugera akeneye kugura umwenda akawubona cyangwa se yaba akeneye kugura ibyo kurya akabigura bityo bigateza imbere ababicuruza.

Isoko ahacururizwa ibikoresho bitandukanye ndetse n'ibiribwa bitandukanye, aho abaguzi bahurira n'abacuruzi, hanyuma abaguzi bagaha abacuruzi amafaranga n'abacuruzi bakabaha ibyo bakeneye.

Icyapa kigaragaza ahari bare， ndetse hakaba n'amacumbi. Akaba ari uburyo bwifashishwa mu kwamamaza，ndetse no kumenyekanisha ibikorwa biba bikorwa n'umuntu，kandi bikaba bifasha abantu kumenya serivisi bakeneye aho ziherereye.

Inzu ibiri z'ubucuruzi aho zigaragaza itandukaniro ry'uko imwe bayishyizeho amakaro kugira ngo isuku irusheho kugaragara, naho indi ifite irange rishaje byerekana ko amakaro aramba kurusha irange.

Inzu y'igorofa igaragaraho amagambo y'ikaze, aha abantu ikaze kuri ravuwazena hoteri, munsi y'ayo magambo hakaba harimo igiti cy'umugano, kigaragaza ubwiza bukurura abantu kugira bahaze.

Ahacururizwa ibicuruzwa bitandukanye birimwo ibiribwa nk'imbada, amasengeri n'ibindi bitandukanye.

Ubucuruzi buciriritse aho abacuruza ibicuruzwa bagenda babitembereza hirya no hino mu makaritsiye, ababikeneye nabo bakabibona, bityo bagacyura amafaranga bakajya kwiteza imbere.

Ahacururizwa ibinyobwa bitandukanye, hakaba hari icyapa kigaragara ku nzu cyerekana ibikorerwa. Ubu bukaba ari uburyo bwiza bwo kumenyekanisha ibicuruzwa ukoresheje icyapa.

Icyumba cy'ishuri ryigishirizwamo ibijyanye n'ikoranabuhanga, kizwi ku izina rya siimati karasirumu, akaba ari ibyumbakira ku bigo by'amashuri kugira ngo abanyeshuri, bajye babyifashisha mu kongera ubumenyi bujyanye n'ikoranabuhanga.

Ahari inzu y'ubucuruzi yegereye urusengero rusengerwamo, hakaba ari ubucuruzi bukorerwa hafi y'aho basengera kugira ngo abaje gusenga akenshi bayifashisha mu kugura ibyo bakeneye.

Inzu y'igorofa igaragaza ahacururizwa ibicuruzwa bitandukanye igizwe n'amagorofa abiri ibi bikaba ari byiza kubaka ubujya hejuru kugira ngo ubutaka burusheho gukoreshwa neza.

Ahaparikwa imodoka zo mu bwoko bwa dayihatso. Imbere y'inzu z'amaduka zifashishwa mu gutwara ibintu bitandukanye aho uyishaka, ajya kuyireba kuri parikingi yazo hanyuma ikamutwarira ibyo akeneye.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi，imiti，ibihingwa cyangwa se imiti y'amatungo itandukanye. Akaba ari ubucuruzi bukorerwa hirya no hino mu gihugu，kugira ngo abahinzi ndetse n'abandi bashaka ibikoresho by'ubuhinzi， baze kubigura biboroheye.

Ahakorerwa mu bucuruzi butandukanye, hakaba hari n'ahatunganyirizwa imisatsi ibizwi nka saro. Saro zikaba ari aho bakora ubwiza bw'imisatsi ku b'igitsina gore ndetse n'igitsina gore, bukaba ari ubucuruzi na bwo butanga amafaranga.

Icyapa kigaragaza ahaboneka ibicuruzwa by'uruganda Inyange birimo amazi, amata na fanta n'ibindi bitandukanye.

Icapa kigaragara neza ca Raparume hoteri kikaba kiri ahantu buri wese yitegeye ku buryo ukinyuzeho wese ahita abona hoteri Raparume ku buryo bworoshe.

Ahacuruzwa ibyo kurya bitandukanye bihiye harimo boyiro, capati, ibirayi boroshete, inzoga n'amaji. Akaba ari inzu iriho icyapa kiranga ibyo bacuruza ukaba ari bumwe mu buryo bukoreshwa n'abacuruzi kugira ngo bamenyekanishe ibyo bakora bityo abakiriya baze kubagurira.

Inzu y'ubucuruzi iriho icyapa kigaragaza ibyo bayikoreramo, imbere yayo hariho kiyosike ya eyateri ifunze.

Isoko ahakorerwa ubucuruzi butandukanye, hakaba hagaragara abacuruzi ndetse n'abaguzi, baza kugura ibicuruzwa bitandukanye. Amasoko akaba afite akamaro kenshi, kuko ahuza abaguzi n'abacuruzi buri wese akabona icyo akeneye.

Ahacururizwa imyenda n'ibindi bicuruzwa bitandukanye by'ikoranabuhanga nk' amayekuteri, ibirahuri bya telefoni, ibi bikaba bigaragaza ko ubucuruzi bushobora gukorerwa ahantu ho hamwe kandi butandukanye.

Ahacururizwa hazwi nka butike icuruza imiti y'amatungo, imiti y'amatungo ikaba ari ingenzi cyane mu bworozi, kandi ikaba ari ingenzi mu kwegerezwa abaturage, kugira ngo bayibonere hafi kandi bayikoreshe, bityo ubworozi bubashe kugira akamaro.

Inzu irimwo amaduka abiri, bigaragara ko ari mu mujyi, rimwe ricuruza imyenda, irindi ricuruza ibyo kurya bakunda kwita alimantasiyo, imbere y'iyo nzu hakaba hari umuntu urimo agenda yitegereza ngo arebe ko hari icyo yagura.

Abaririmbyi bakunze kwitwa korari， bambaye iniforume，barimo baririmba， korari akaba ari abantu bishyize hamwe baririmba indirimbo z'Imana cyangwa indirimbo zitari iz’Imana，ku bakunda kuboneka cane cane mu nsengero.

Abaririmbyi bazwi nka korari akaba ari abantu bishyize hamwe, baririmbira hamwe indirimbo z'imana, cyangwa se indirimbo zitari iz'imana bagamije inyungu, cyangwa se batagamije inyungu ari ugushima Imana.

Igikoresho kifashishwa cane cane mu mahoteli bakaraba intoki bakunda kwita lavabo mu ndimi z'amahanga.

Icyumba kirimo intebe, icyumba kikaba gikunda kuba mu mahoteri cyangwa mu mamoteri, aho abashitsi basuye iyo hoteri, haba hari ahantu bicara bakaba baganirira, haba hari n'ubukonje bakaba babacanira umuriro bagashuha.

Inzu izwi ku izina rya gesitehawuzi hakaba hari umugabo cangwa se umukozi urimo ukora amasuku ku rugo rw'iyo nzu, inzu ikaba hari ahantu abantu bashobora gucumbika bari ku rugendo.

Inyubako ishobora gukorerwamo n'imiryango imwe n'imwe, ikaba ishobora no gutorwamo, ubona ko yubatse neza kandi iri ahantu heza.

Icyumba kimwo intebe cyakirirwamo abashyitsi, icyumba kikaba kigaragara henshi mu mahoteri, ndetse no mu mamoteri. Aho bakira abantu batandukanye bavuye hirya no hino ku isi, cyanga imbere mu gihugu.

Umuntu uri ahantu heza hari amazu meza, ashobora kuba ari inyubako z'amahoteri. Akaba agaragara yishimiye ahantu yafatiye ifoto.

Ahacururizwa igihingwa cy'ibijumba. Ibijumba akaba ari igihingwa, gihingwa kandi kiribwa n'abantu benshi mu gihugu. Kuko ni igihingwa ngandurarugo bityo buri rugo, henshi mu Rwanda barya ibijumba.

Imbuto y'ibishyimbo byeze, barimo batonora mu rugo, ibishyimbo byitwa intonore, bikunda kuribwa cyane, iyo ibishyimbo byeze, bikaba bikunda gukoreshwa n'abahatuye mu cyaro, cyane cyane ndetse no mu mu mugi

Isoko rya kijambere rihahirwamo ibiribwa bitandukanye byiganjemo imboga, imbuto, aho abaguzi basanga abacuruzi bakabagurira ibiribwa bitandukanye.

Isoko ry'inkweto ririmo inkweto zitanditse ku bisima. Inkweto z'abana ndetse n'iz'abakuru zirimo ingoze na supuresi.

Igikoresho gikoreshwa mu gusharija telefone kizwi nka sharigeri ,kirimo gucuruzwaha akaba ari igikoresho cyifashishwa mu kwinjiza umuriro muri telefone, ndetse kikaba kigurwa cyane kubera gukoreshwa cyane.

Isoko ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, rikaba ari isoko rya kijambere aho ubona abantu bacururizamo ibintu bitandukanye, ndetse n'abagura baza kugura ibintu bitandukanye.

Ahacururizwa ibikoresho byifashishwa mu gushingura abantu bapfuye, ibizwi nk'amasanduku, ibi bikaba ari ibikoresho bikoreshwa cane n'abantu babuze ababo.

Ubucuruzi bw'ibishimbo, aho abacuruzi bazana ibishyimbo bakabishyira mu mifuka. Abaguzi nabo bakabireba biri mu imifuka, bigizwe n'imbuto zitandukanye z'ibishyimbo. Izo bishimiye akaba ari byo bagura kubera biba bigaragara neza.

Ahacururizwa inkoko zitandukanye, hariya hakaba hari isoko ry'inkoko, aho abacuruzi b'inkoko cyangwa se abaturage bazana inkoko bakazishyira ahantu, intoya zikaba ziri mu gisanduku, abaguzi bazikeneye bakaza bakazigura.

Ahacururizwa ibikoresho bitandukanye byo mu gikoni. Mu isoko ho bakunze kwita ibisima; amasafuriya, imbabura, amabase ibikombe n'ibindi, ndetse bikaba bigaragara neza ku uje kubigura ahita abibona.

Isoko aho bagurishiriza ibikoresho bitandukanye byo mu rugo. Abaguzi n'abacuruzi barahahurira, abacuruzi bakagura ibikoresho bakoresha mu rugo, abacuruzi nabo bakabona amafaranga bakiteza imbere.

Ahacururizwa imbabura, ikaba ari igikoresho gikenerwa cyane aho ubucuruzi bukunda gukorwa cane cane n'urubyiruko. Imbabura zikaba zikoreshwa n'abantu benshi.

Ahacururizwa ibikoresho bitandukanye, aho abaguzi barimo bavugana n'umucuruzi, kugira ngo bumvikane buri wese abone ico akeneye, ari umuguzi abone igikoresho n'ubucuruzi abone amafaranga. Ubucuruzi akaba ari bumwe mu bikorwa giteza imbere igihugu ndetse n'abaturage.

Ubucuruzi bw'imboga mu isoko aho abaguzi nabagurisha imboga bahurira. Bamwe bazanye ibicuruzwa by'imboga, bakabiha ababikeneye nabo bakabaha amafaranga, bityo bagatera imbere.

Isoko ahacururizwa ibitoki, akaba ari ubucuruzi aho abahinzi bazana umusaruro wabo w’ibitoki mu isoko, abaguzi bakaza kubihasanga, bakabigura. Bityo aba bahinzi nabo bakabona amafaranga abafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Isambusa zigurishwa ziri mu gikoresho gishaje. Ibi bikaba bishobora gutera ingaruka zimwe na zimwe ku baguzi zirimo indwara z'umwanda bitewe n'igikoresho kiba gishaje.

Isoko ry'imyenda, abacuruzi batanditse imyenda. Abaguzi baza kugura imyenda itandukanye, aho umuguzi n'umugurisha bagurirana buri wese akabona icyo akeneye.

Isoko aho abantu bagurira ibicuruzwa bitandukanye, ibinyobwa, ibiribwa, imyambaro n'ibindi. Isoko akaba ari ahantu abantu bahurira abaguzi n'abagurisha barimo bashaka ibintu bitandukanye, buri wese ari umuguzi n'umugurisha bikamufasha kubona icyo akeneye.

Imyenda imanitse imbere iduka ku mugozi hakaba hari imashini bakoresha badodaho mu nzu zitwa materiye y'ubudozi.

Ahacuruzwa ibintu bitandukanye cane cane ibinyobwa, nka novida, amaji y'abana, isabune ikaba ari ubucuruzi buciriritse bakunda kwita butike.

Umuntu uri kunywa ikigage akaba ari ikinyobwa gikunda kunyobwa cyane n'abantu batuye mu giturage aho iki kinyobwa kiba cyarakozwe mu masaka bita amamera.

Isoko rya kijambere， aho abaturage batandukanye bacururiza， abaguzi nabo bakabahasanga， buri wese akabona icyo akeneye，umuguzi akabona ibimuteza imbere mu bikoresho， umucuruzi nawe akabona amafaranga， ndetse agatanga n'imisoro ya Leta，bityo igihugu kigatera imbere.

Ahacururizwa imbuto zitandukanye zimwo avoka, ibihaza, inyanya, akaba imbuto ari ibihingwa bifasha umubiri w'umuntu, kugira ubuzima bwiza.

Mu isoko ahacururizwa ibicuruzwa bitandukanye: imyenda, ibikapu, amarido, ibitambaro, ndetse n'ibindi bitandukanye. Hakaba ari ahantu hahurira abantu benshi, abaguzi n'abacuruzi bagurirana buri wese icyo akeneye.

Isoko ahacururizwa ibiribwa bitandukanye n'ibicuruzwa bitandukanye. Isoko rero akaba ari ingirakamaro kuko rihuza abakeneye ibicuruzwa n'abashaka kugurisha ibicuruzwa. Ndetse rikaba ryongera iterambere mu baturage ndetse n'igihugu muri rusange.

Ahacururizwa imbuto zitandukanye ushobora kuhabona inyanya tungurusumu byose bitewe n'icyo ukeneye uwakizanye nawe akabona amafaranga ukayakoresha mu bindi nawe akeneye birimo kwishyura ishuri mituweli n'ibindi.

Amaduka acururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, aho usanga hari n'izindi serivisi ziba zigaragaza ibikorerwa aho hantut, nko gukanika telefone n'ibindi.

Ahacururizwa ibicuruzwa by'imboga bitandukanye nka kokombure, urusenda, imboga, beterave. Ibi bikaba bituma ababicuruza babona amafaranga kuko baba babitanditse, abaguzi bakabibona, bakabigura.

Ahakorerwa ubucuruzi, hafi y'umuhanda hakaba hakunda gukorerwa ubucuruzi bwa serivise zitanga amafaranga kuri telefone, bikaba bifasha abaturage gukoresha amafaranga utayatwaye mu ntoki mu buryo bw'ikoranabuhanga bakoresheje telefone zabo babitsa ndetse babikuza.